Abantu b'abagabo, bambaye imyenda ifite ibara risa n'umukara n'inkweto z'umukara n'ingofero, bateye akaguru k'ibumoso imbere, bafite icyapa mu biganza byabo.

Urujya n'uruza rw'abantu baje kureba inyubako igize ikibazo cy'amashanyarazi, ikaba iri gushya yose kandi yari igeretse kabiri.

Umubyeyi wambaye impuzankano, y'abantu bakora umurimo wo gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, akaba yicaye afashe n'indangururamajwi mu kiganza cye.

Ikiyaga kirimo ubwato bwa moteri burimo abantu, harimo n'umusare ushinzwe kubutwara agenda yambutsa abantu bava hakujya bajya hakuno.

Abantu bicaye hamwe harimo abagabo, abagore bambaye impuzankano igaragaza abantu bakora umurimo wo kuducungira umutekano, bakaba bari mu nyubako imwe bafite ibikoresho bandikamo amasomo bari kwiga.

Abagabo babiri bahagaze， bari gusuhuzanya， inyuma yabo， hakaba hariho abicaye mu ntebe， bambaye impuzankano， igaragaza abantu bakora umurimo wo gucunga umutekano.

Ikinyabiziga gifitete ibara ry'umweru mu binyoteri harimo ibara ry'umutuku n'ubururu , inyuma y'ikinyabiziga hariho igikoresho bifashisha bapima umuvuduko w'umuyobozi w'ikinyabiziga uko aba atwaye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye aribyo ikinyabiziga cy'imodoka ndetse n'ipikipiki, imbere yabo hariho umuntu ushinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, ku ruhande hariho ibiti bihatewe.

Abantu benshi bari kugendera hamwe ku murongo bambaye impuzankano igaragaza umuntu ukora umurimo wo gucunga umutekano wabantu n'ibintu. Bafite mu ntoki zabo ishusho y ikirangantego cy'igihugu.

Urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bahagaze bambaye impuzankano ifite ibara risa nk'impande yabo, hari isafuriya iri kwakamo umuriro, n'umuntu wambaye umwambaro ugaragaza abakora akazi ko gucunga umutekano.

Umugabo uhagaze afite indangururamajwi mu kiganza, yambaye impuzankano igaragaza umuntu ukora umurimo wo gucunga umutekano w'abantu n'ibintu.

Abantu bari hamwe mu kibuga bambaye impuzankano ifite ibara ry'igitaka hasi bambaye inkweto zifite ibara ry'umukara bazamuye akaboko k'iburyo bamanuye ak'ibumoso.

Abagabo batatu bahagaze mu nyubako iri imbere ya bo, hariho ibikoresho bitandukanye abantu bifashisha mu mwuga wa kinyarwanda wo kuvura abantu.

Umuhanda ukikijwe n'urujya n'uruza rw'abantu bahagaze, harimo abagabo, abagore, abana bato ndetse n'umuntu wambaye impuzankano igaragaza, umuntu ukora akazi ko kurinda umutekano w'abantu.

Ikinyabiziga cyitwa moto cyicaweho n'abantu batandukanye, harimo umugabo, abagore ndetse n'abana, iruhande hariho abantu benshi bafite n'igikoresho cyitwa umutaka abantu bitwikira mu gihe cy'imvura ndetse no mu izuba

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara risa n'umukara n'ingofero ifite ibara risa n'umukara, wicaye mu ntebe ifite ibara risa n'umukara. Ku rutugu rw'iyo myenda hariho ibirango bigaragaza umurimo akora.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bicaye hamwe mu nyubako imwe, imbere yabo hariho igikoresho cyitwa ameza, iruhande hariho umuntu uhagaze afite indangururamajwi mu kiganza.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara risa n'umweru bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza hariho n'umuntu wambaye imyenda ifite ibara risa n'icyatsi ndetse n'umukara, bari mu nyubako imwe.

Igikoresho kijyanye n'umuco wa Kinyarwanda cyitwa imbehe abantu bakunda kwifashisha bategura amafunguro mu rugo ndetse no mu gihe bagiye kurya.

Umukobwa wambaye imyenda n'ingofero, akaba afite mu ntoki ze igikoresho cyitwa inkoko, akaba ari kugosora umusaruro weze, inyuma ye hariho umufuka wo gushiramo ibimaze gutunganywa.

Inyubako ya Kinyarwanda yubatswe ikaba ifite ku ruhande ubusitani buriho ibyatsi cyimeza ndetse n'ibiti by'amako atandukanye bahateye bituma abantu baje aho bahumeka umwuka mwiza.

Abantu batandukanye bari mu bwato butatu bushinzwe gutwara abantu bambuka bava hakurya baza hakuno banyuze mu kiyaga.

Umubyeyi wambaye umwenda ufite ibara risa n'umutuku, akaba afite ibikoresho bifashisha mu buhinzi cyitwa isuka, inyuma ye hakaba hariho ibiti bifite amashami menshi meza.

Umukobwa wicaye yambaye imyenda ifite amabara atandukanye n'urunigi mu ijosi, afashe igisabo iruhande rwe hari agakoko ,n'igiseke inyuma hari inkongoro, abantu bifashisha banywa amata.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara risa n'umweru, bari kwiga kubyina bijyanye n'umuco wa kinyarwanda. Bafite ingabo mu ntoki.

Ababyeyi bambaye imikenyero bafite uduseke, hariho n'abagabo bambaye amakoti ndetse n'amashati, bafite amakesi arimo inzoga zo kunywa.

Umukobwa wambaye ikanzu, afite urunigi mu ijosi n'igiseke mu kiganza cye. Ahagaze mu murima urimo ibyatsi inyuma ye hariho inzu isakaje amabati.

Umusore wambaye indorerwamo z'amaso, akaba ari kumwe n'umukobwa wambaye imikenyero. Bakaba bicaye ku mukeka bafite inkongoro irimo amata, bari kuyanywa.

Inyubako yo mu bwoko bwa kinyarwanda, ikaba yubakishijwe ibiti, isakajwe ibyatsi, iruhande rwayo hariho iyindi nyubako, yubakishijwe amatafari, isakajwe amabati.

Abantu bambaye impuzankano imwe, bapfukamye hasi bari kwiga kurasisha umwambi, bakoresheje umuheto wa kinyarwanda.

Abagabo batanu bakenyeye imyenda, abantu bifashisha bari kubyina imbyino z'umuco wa kinyarwanda, bafite ingabo n'icyuma mu biganza byabo.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kinyarwanda yubakishijwe imbingo, iruhande rw'umuryango aho abantu basohokera hateretseho igisabo.

Igiti kirekire gifite amashami hahagitswemo umutiba uboshywe mu birere, hakajyamo inzuki, zikateramo ubuki, abantu bakaza guhakura bakaburya mu rugo mu mafunguro yabo ya buri munsi.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, akaba afite amatwi abiri afite n'umusatsi wumukara, ku mutwe yasokoje anyuzamo akarongo mu mutwe hagati, akaba ari kure iruhande rw'iburyo bwe hakaba hariho ibara ry'umukara.

Igikoresho cyitwa ikirago, kirambitsweho igikoresho cyitwa umuvure, abantu bifashisha benga ibitoki kugira ngo babone amarwa yo kunwa.

Akebo ko mu bwoko bw'igiseke, gafite amabara y'umweru n'umukara n'ubururu, karambitse hejuru y'igikoresho cyitwa ikirago.

Umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu, akaba yicaye ku gikoresho cyitwa ikirago, akaba yicaye yegamiye uruhande rw'ibumoso.

Inyubako ya kinyarwanda yubakishijwe ibiti isakajwe ibyatsi, iruhande rwayo hatewe ibiti bigwanya isuri, bituma abantu bari mu nyubako bahumeka neza.

Inyubako yo mu bwoko bwa kinyarwanda imbere yayo hariho abagabo babiri bari kubyina bafite icumu mu ntoki ndetse n'ababyeyi nyuma yabo bari kuvuza igikoresho cyitwa ingoma.

Abantu bari kubyina imbyino y'umuco wa kinyarwanda, bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, kandi barambuye akaboko k'iburyo, bafite n'umushumi ufite ibara ry'umweru mu mutwe.

Ikiyaga kirimo ubwato bushinzwe gutwara abantu, hakaba harimo abantu batandukanye abagore abana, hakurya ku nkombe y'ikiyaga hariho abantu benshi cyane batandukanye.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe, bari mu nyubako isakaye imbere yabo hateretse ikibindi kirimo amarwa, harimo umuheha wo kunywesha ayo marwa.

Umuntu wicaye ku ntebe afite igikoresho bifashisha bacuranga injyana gakondo. Akaba yambaye ishati ifite ibara ry'umweru, n'ipantaro ifite ibara ry'umukara. Akaba akikijwe n'abantu benshi batandukanye, harimo abakuru ndetse n'abatoya.

Inka zo mu bwoko bw'inyambo zifite amahembe maremare ziri hamwe mu kibuga inyuma ya zo hariho abantu benshi bahari batonze umurongo.

Abakobwa bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'umukara, bafite amayugi hasi ku maguru bikoreye ibiseke ku mitwe barambuye amaboko yabo.

Umubyeyi wicaye ku kirago, akaba ari gutondera n'ikindi yifashishije ibirere by'insina, inyuma ye hariho uruyuzi, ndetse n'igihingwa cy'ibisheke.

Igikoresho abantu bifashisha bafata imbeba ziba ziri mu rugo zirya imyenda ndetse n'ibindi bikoresho, bakagishiraho ibyo kurya biriho umuti wica izo mbeba.

Abantu bahagaze imbere y,inyubako, bafite mu ntoki zabo umuheto, bari kwiga gufora bakoresheje umwambi, ndetse bambaye n'inkweto zifunze, n'imyenda ifite amabara atandukanye.

Igikoresho cyitwa umukeka kirambitsweho imbehe iri hejuru y'ingata irimo amafunguro. Ku ruhande hariho igikoresho bifashisha bari kurya.

Abakobwa bambaye imyenda bakaba bafite igikoresho kitwa inkongoro mu ntoki zabo bakunda gukoresha mu misango y'ubukwe bwa kinyarwanda.

Igikoresho cyitwa isuka gifite n'umuhini abantu bifashisha iyo bari guhinga mu butaka, ndetse n'igihe abantu barimo bakora amasuku mu ngo, baharura ibyatsi ku migenderano ihuza urugo n'urundi.

Uruzitiro rwubatswe mu mbingo impande y'ibaraza hariho igikoresho cyitwa ikirago hariho n'urusyo abantu bifashisha basya amasaka hariho n'igikoresho cyitwa inkooko kiriho ifu iruhande hariho igiseke.

Igikoresho cyitwa umuvure abantu bifashisha batunganya amarwa y'ibitoki yo kunywa, iruhande rwacyo hariho uruzitiro ruzitijwe imigano.

Umukobwa n'umusore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru bambaye imyenda itandukanye, bafite indangururamajwi mu kiganza cyabo, ndetse n'igikoresho cyitwa inanga bifashisha bacuranga.

Abakobwa bambaye imyenda bafite urunigi mu ijosi bari kubyina barambuye amaboko ndetse hakurya yabo hariho abasore na bo bari kubyina bafite imikenyero ifite ibara risa n'ubururu.

Umugabo wambaye imyenda y'amabara atandukanye akaba afite igikoresho kitwa umuvure bifashisha benga amarwa yo kunywa, ari kunyura mu nzira y'ibitaka iruhande rwe rw'iburyo hahinzwe igihingwa k'ibigori.

Igikoresho cyifashishwa mu murimo w'ubwubatsi no mu gihe umuntu arimo akora umurimo wo gutunganya amashanyarazi, amanika insinga ku biti byagenewe amashanyarazi.

Inyubako irimo igitanda gifite matera hariho ibijyamirwa ndetse n'ibyiyoroso abantu bifashisha iyo bagiye kwivuza badashoboye gutaha mu ngo z'iwabo.

Inyubako zo mu bwoko bwa kijyambere, zikaba ziturwamo n'abantu hariho n'umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, iruhande hariho n'ubusitani buterwamo ibintu bitandukanye.

Inyubako yubatswe igeretse kabiri. Imbere yayo hejuru hasize irangi risa n'umweru. Handitsweho amagambo mu irangi ry'ubururu . Hasi hariho abantu bahahagaze bambaye imyenda ifite amabara atandukanye ndetse n'udupfukamunwa.

Inyubako yubakishijwe ibyuma, isakajwe amabati, ikaba irimo intebe zo kwicarwaho n'abantu, zifite amabara atandukanye umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi.

Inyubako igeretse gatatu yubatswe mu buryo bwa kijyambere, imbere yayo hasi hariho ubusitani butewemo indabo z'amoko atandukanye hariho n'ikibuga cyo kuyicaramo kirimo umucaca.

Inyubako yo mu bwoko bwa kijyambere ikaba igeretse gatatu ituwemo n'abantu batandukanye, ku ruhande hariho ibiti bihatewe bifite amashami bituma abatuye aho bahumeka umwuka mwiza.

Abantu bari kunyura mu nzira yagenewe abanyamaguru yubatswe mu bujyo bwa kijyambere, hirya yayo hakaba hariho abana bambaye imyenda ifite ibara risa n'ubururu, hakurya y'aho hariho umurima uhinzwemo igihingwa cy'urutoki.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ,isakajwe amabati ashaje ,iruhande rwayo hariho umwana muto n'umugabo wikoreye umufuka ,yambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku n'ipantaro y'umukara na bote zifite ibara ry'icyatsi . Inyuma y'inyubako hariho ibiti bihateye.

Inyubako yubatswe isakaje amabati. Hariho abantu bari kuhatembera, ikaba izitijwe uruzitiro rw'amatafari ifite irembo ririho irangi risa n'umweru.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ibinyamitende gifatanye n'ikindi kinyabiziga cyo mu bwoko bw'imashini ishinzwe gutunganya umuhanda abantu banyuramo.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati, ikaba ikingishijwe inzugi zifite irangi ry'ubururu, imbere yaho hari igiti gishinze, kiriho umuyoboro w'amashanyarazi.

Abantu benshi bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye. Bamwe bicaye ku ntebe zifite ibara risa n'umweru, abandi begereye igikoresho cyitwa ingoma, bari imbere y'inyubako igeretse kane.

Inyubako yo mu bwoko bwa kijyambere ifite urugi rufite ibara risa n'icyatsi. Mu muryango hariho umubyeyi uhahagaze imbere ye hari igikoresho cyitwa indobo, ibase, n'ijerekani, iruhande rw'idirisha hariho umubyeyi uhagaze ku ntebe ari gukora amasuku.

Inyubako yubatswe isakaye ikaba igeretse imbere mu busitani bwayo, hariho abantu bicaye ku ntebe iruhande hariho igiti cyo mu bwoko bw' avoka gifite amashami.

Inyubako yo mubwoko bwa kijyambere igeretse, imbere y'ubusitani bwayo hariho abantu bambaye ingofero zifite ibara ry'umweru, hariho n'ikigega hakurya yabo gifata amazi.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikaba igeretse ifite uruzitiro ruriho amatafari ahiye, impande hariho ikinyabiziga giparitse, cyo mu bwoko bw'imodoka.

Ubworozi bw'amatungo yitwa inka bukaba bufite ibara ry'umweru n'umukara bwororerwa mu kiraro cya kijyambere bufite iherena mu gutwi kw'iburyo.

Inyubako yubatswe isakaye， imbere yayo hariho ibinyabiziga bihahagaze， n'abantu bambaye impuzankano ifite ibara risa n'umweru， harimo abagabo ndetse n'abagore.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere iriho ikimenyetso cyo guteranya imbere hejuru, hasi hariho abantu bambaye imyambaro ifite ibara ry'umuhondo hejuru hasi ibara ry'umweru.

Inyubako yubatse, isakaye, ifite inzugi n'amadirisha. Imbere ifite ubusitani buteyemo indabo, ifiteho abantu bari ku rubaraza, ifite n'ikirangantego cy'igihugu cyacu.

Inyubako irimo ibikoresho abaganga bifashisha, iyo umurwayi aje kwivuza uburwayi bw'amenyo, kugira ngo bayamutunganyirize neza.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikaba izitiye neza, hakaba haparitsemo ikinyabiziga gishinzwe gupakira imizigo, iruhande hakaba hakikijweho ishyamba riteyemo ibiti birebire, bifite amashami.

Inyubako yubatswe ikaba isakaje amabati y'umweru hejuru ifite akamenyetso ko guteranya, iruhande rwayo hariho ishyamba riteyeho ibiti bitandukanye.

Inyubako yo mu bwoko bwa kijyambere ifiteho aho abantu bakarabira intoki, imbere y'iyo nyubako hariho ishyamba ritewemo ibiti bitandukanye bifite n'amashami.

Ibinyabiziga bitandukanye byo mu bwoko bw'imodoka bihagaze iruhande rw'inyubako itangigwamo serivise zo kubitsa no kubikuza amafaranga y'abaturage.

Inyubako igeretse kabiri, hakaba harimo umubyeyi hejuru, hasi hakaba hariho abagabo ndetse n'ababyeyi ku rubaraza, imbere mu busitani hariho ikirangantego cy'Igihugu cya cy'u Rwanda.

Inyubako yubatswe isakaye, iruhande hariho abantu bahanyura, zizitijweho uruzitiro rurimo ibiti, byitwa imiyenzi ndetse n'inintusi.

inyubako yubatswe isakajwe amabati indi isakajwe amategura imbere yazo hari ubusitani bw'indabyo ari kunyuramo umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku n'inkweto zifite ibara ry'icatsi yikoreye umufuka ku mutwe

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere ikaba igeretse inshuro itatu, Iruhande hariho umuhanda wo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye byo mu bwoko bw'imodoka.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikaba igenewe guturwamo n'abantu, imbere yayo hakaba hariho ubusitani butewemo ibiti bituma abantu babasha guhumeka umwuka mwiza.

Inyubako igeretse inshuro eshatu ikaba ifite inzugi zisizwe irangi risa n'ubururu hanze ku rubaraza hariho uruzitiro ruzitijwe ibyuma bisize irangi jy'ubururu.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bakaba bicaye hamwe harimo abagabo , abagore ndetse n'abana bato imbere yabo hakaba hariho umuntu ubaganiriza yambaye ishati ifite ibara risa n'umukara.

Umubyeyi uhagaze afite indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo, iruhande rwe hari abantu benshi bamukikije harimo abagabo abagore, akaba ahagaze iruhande rw'igikoresho cyitwa intebe gifite ibara ry'umweru.

Inyubako ifite ubusitani bwicawemo n'abantu benshi, hakaba hariho n'abantu b'abagabo bahagaze bafite indangururamajwi mu ntoki zabo, hariho n'igikoresho cyitwa ameza, kiriho impapuro.

Abantu benshi bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bakaba bicaye ku ntebe mu kibuga, iruhande rwabo hari inzu yubatswe isakajwe amabati.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo abagore ndetse n'abana, bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye ku ntebe abandi bahagaze hagati y'ibiti birebire bihatewe.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bakaba bicaye hamwe ku ntebe mu kibuga gifite ibyatsi, imbere yabo hariho umuntu uhagaze ndetse n'igikoresho cyitwa ameza kirambitswe imbere yabo.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bari mu kibuga, abandi bicaye bafite indangururamajwi imbere yabo bari kuyivugiraho bafite n'udupfukamunwa ku munwa.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari mu kibuga kimwe, bamwe bicaye, abandi bahagaze batonze umurongo umwe afite indangururamajwi mu kiganza cye.

Abantu bari mu muhanda, bakaba bafite amagare hariho ibikapu bifite ibara risa n'umukara, ndetse bafiteho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, byo mu bwoko bw'amapikipiki bihetseho abantu. Iruhande hariho inyubako z'amazu yuzuye asakaye.

Inyubako yubatswe isakaye, imbere yayo hariho ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka, bifite amabara asa n'umuhondo, bishinzwe gutwara abana bava mu ngo zabo baza kwigira amasomo kuri iyo nyubako.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bava abandi bajya kwinjira mu kinyabiziga cyitwa imodoka bihagaze ahantu hamwe iruhande rw'inyubako zisakaje amabati.

Umuntu wambaye inkweto zifite ibara ry'umukara akaba atwaye ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki, kiriho umusaruro w'igitoki n'umufuka urimo ibirayi byinshi.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka kikaba kiri mu muhanda, gipakiye ibyatsi birimo imifuka iruhande rwa ho hariho inyubako y'amazu isakaye.

Umuhanda ukikijwe n'ubusitani bw'indabyo zitandukanye n'ibiti ,iruhande hariho inyubako igeretse gatatu, hari kunyuraho abantu batandukanye.

Inyubako yubatswe igereretse kane, imbere yayo hahagaze ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka bifite ibara risa n'umweru ndetse n'icyatsi, hahagazemo abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru hejuru ni inkweto zifunze zifite ibara ry'umukara.

Umubyeyi uri kunyonga igare mu muhanda afite imizigo inyuma, ku ruhande hariho ibinyabiziga biparitse byo mu bwoko bw'imodoka.

Ababyeyi babiri umwe ahetse umwana bikoreye ibase irimo ibitoki bifite ibara risa n'icyatsi, babipfundikije ibitenge ndetse n'igitambaro gifite ibara risa n'umutuku.

Abantu benshi bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bicaye ku binyabiziga byitwa amapikipiki, imbere yabo hariho umuntu wambaye umwambaro ugaragaza, ukora umurimo wo gucunga umutekano w'abantu n'ibintu.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye abagabo, abagore n'abana binjira abandi basohoka mu binyabiziga byitwa imodoka, bihagaze ahantu hamwe.

Ahantu hari abantu hariho n'ibinyabiziga byo mu bwoko bw'amapikipiki. Iruhande hari ibyapa bifite ibara risa n'umweru, handitsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, umwe yunamye ari gukaraba intoki iruhande rw'ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye hariho abantu bafite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru, bakaba bicaye mu tugare tugomba kubafasha, kugira ngo bagere mu binyabiziga bigomba kubageza iyo bajya.

Ikinyabiziga bifashisha batwara abantu, ndetse n'ibintu, hakaba harimo ababyeyi benshi bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, harimo n'igikoresho citwa umufuka urimo ibiribwa.

Abantu benshi batandukanye harimo: abagabo, abagore n'abana ,bafite ibikapu mu ntoki bigendanwa, iruhande rw'inyubako isakaye, hahagaze ibyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka zitandukanye.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka, ndetse n'amapikipiki ariho abantu, iruhande hariho inyubako igeretse, n'igiti kihatewe cyo mu bwoko bwa sipure.

Ahantu hariho urujya n'uruza rw'abantu batandukanye harimo n'ibinyabiziga bifite ubwoko bw'ipikipiki ndetse n'imodoka hariho n'inyubako igeretse kabiri.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byo mu bwoko bw'imodoka, hariho n'abantu banyuramo, iruhande hariho ibiti bihateye byo mu bwoko bw'umukindo.

Ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka y'idayihatsu bipakiye imizigo bitwikirijweho ihema, bikaba biparitse iruhande rw'inyubako zisakaye neza.

Inyubako yubatswe isakaye, ifite urugi rusize irangi ry'umutuku, ku ibaraza hariho intebe abantu bicaraho n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto giparitse mu muhanda urimo amabuye n'itaka.

Abantu bafite ikinyabiziga cyitwa igare bakaba bahuriye hamwe, hariho n'ikinyabiziga cyitwa imodoka, hirya y'aho hariho inyubako mu buryo bwa kijyambere yubatswe neza.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa lifani gisize irangi ry'ubururu ,gifite ipine, imbere hicayemo umugabo wambaye imyenda ifite amabara atandukanye ariyo ubururu ndetse n'umukara.

Umuntu ufite ubumuga bw'amaguru wicaye mu kagare, kamufasha gutuma abasha kwinjira mu kinyabiziga cyitwa imodoka, itwara abantu benshi batandukanye.

Urujya n'uruza, rw'abandi batandukanye abagabo n'abagore ndetse n'ibinyabiziga biri mu muhanda bipakiye imizigo, ku ruhande hari inyubako zisakaye.

Abantu batatu bari kunyonga ibinyabiziga byo mubwoko bw'igare, umwe afiteho imizigo, bari kunyura mu muhanda iruhande hariho ishyamba rihateye.

Umuhanda wa kijyambere, iruhande rwawo hakaba hariho abantu bicaye ku kinyabiziga cyitwa ipikipiki. Ruguru yabo hakaba hariho ibiti birebire, bifite amashami meza ndetse n'inyubako y'abantu yo guturwamo.

Umuntu uri gutwara igare akaba iruhande rwe hari igiti cyitwa umukindo, ndetse n'indabyo zifite ibara ry'icyatsi n'icyapa cyiruhande rwe, ibumoso gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Inyubako isizwe irangi risa n'umuhondo n'ubururu. Hasi ku rubaraza hicayeho abantu. Iruhande rw'inyubako hariho igihingwa cy'urutoki, ndetse n'imbere yacyo hari ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere ku ruhande iteweho ibiti bituma abantu bahagiye babasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka kandi imbere hariho ubusitani butewemo indabyo.

Abasore bahagaze hamwe, bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu n'umweru n'inkweto zifunze, yandikishijweho imibare mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari abantu benshi bicaye mu ntebe.

Abantu batatu umwe afite umupira mu ntoki wifashishwa mu mukino wa basiketi, bambaye inkweto zifite ibara ry'umukara n'umutuku n'imyenda ifite amabara atandukanye, inyuma yabo hicaye abantu benshi cyane.

Abahungu n'abakobwa bari mu kibuga gikinirwamo umukino wa tenisi. Bakaba bambaye inkweto zifunze, iruhande rw'ikibuga hariho ibiti bihateye byinshi.

Abantu bagize amatsinda abiri, bamwe bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'umukara, abandi ibara rifite ibara ry'ubururu, bakaba bari gukina umukino wa voleboro.

Abana benshi b'abakobwa bicaye hamwe bambaye impuzankano hejuru ifite ibara ry'ubururu hasi ifite ibara ry'umukara, bategereje amabwiriza bagenderaho bari kwiga.

Umuntu uri gukina umukino wa tenisi, akaba ari mu kibuga kirimo umucanga, hirya ye iburyo bwe hariho ikibuga cyubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Umupira wifashishwa mu mukino w'amaguru ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umweru, ukaba urambitse mu kibuga kirimo umucanga hasi.

Abantu bari gukina umukino wo gusiganwa ku maguru harimo abakobwa, harimo abahungu bambaye imyenda igenewe umukino wo gusiganwa birukanka.

Abakobwa benshi bibumbiye hamwe, bafite umupira wa basiketi mu ntoki zabo bifashisha, iyo bagiye gukina uwo mukino wa basiketibolo.

Umukino wo gusiganwa batwara amagare mu muhanda, kumpande hariho abantu bakikijeho baje kureba uwo mukino uri kubera muri uwo muhanda.

Abana benshi bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu n'umuhondo, n'inkweto zifunze, bakaba bari kwitoza gukora umukino ngororamubiri mu muhanda.

Umukobwa wicaye hasi ku ibaraza yambaye inkweto zifite ibara ry'umukara n'umweru. Afite agakoresho abantu bifashisha bakina umukino wa tenisi mu kibuga.

Abakobwa babiri bari gukina umukino wa volebolo, bakaba bambaye imyenda ifite ibara risa n'icyatsi, mu mugongo harimo inyuguti zanditswe mu ibara ry'umuhondo.

Ikibuga cy'umupira gikinirwamo umukino wa basiketi. Giteweho ibiti ku mpande kirazitiye, kandi gikikijweho n'ibiti birebire byateweho.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara risa n'ubururu n'inyuguti zanditswe mu ibara risa n'umweru akaba ari gutwara igare mu muhanda. Iruhande rwe hariho ubusitani buteyemo indabo zifite ibara ry'icyatsi.

Abakobwa batanu bafite udukoresho abantu bifashisha bakina umukino wa Tenisi, bahagaze mu kibuga bambaye imyenda hejuru ifite ibara ry'umuhondo, hasi ibara ry'umweru.

Abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bari gukina umukino wo gusiganwa batwara amagare. Iruhande rw'umuhanda hariho abana bikoreye inkwi.

Ihuriro ryabantu bicaye hamwe, bafite ikirangantego cy'Igihugu. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye kandi bagaragaza ibyishimo bari kumwe bose.

Abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo icyatsi, umuhondo, n'indorerwamo z'amaso. Bicaye hejuru yibinyabiziga byitwa igare, bari gukina umukino wo gusiganwa batwara ayo magare.

Urujya n'uruza rw'abantu banyura mu muhanda wubatswe kijyambere. Iruhande rwaho hariho ubutaka buteweho ubwatsi bwitwa umucaca. Hirya hariho inyubako yagenewe ubucuruzi bw'ibiribwa.

Inyubako zifite inzugi zisizwe amarangi atandukanye, harimo icyatsi n'ubururu, imbere yazo hari abagabo babiri bicaye ku kinyabiziga cyitwa igare, riri mu muhanda w'ibitaka.

Inzu yubatswe ikaba isakajwe amabati, izitijweho uruzitiro rw'amabuye, ku ruhande hateyeho ibiti byo mu bwoko bwitwa igiko impande y'inzira.

Inyubako yubatse isakaye, iruhande hariho icyapa, imbere hari ubusitani buteyeho indabyo, ku ruhande rwo hirya hariho umuhanda wa kijyambere, unyurwamo n'abantu batandukanye.